Umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'ivu, umukara, ubururu, iruhande rwe hakaba ibyapa bigaragaza ivunjisha ry'amafaranga agiye atandukanye, inyuma ye hakaba ibindi byapa bigaragaza imiyoboro y'itumanaho igiye itandukanye.